Umuyobozi wa pori, umuvugizi wa porisi urigutanga cyangwa kugeza aho imyanzuro, ufite amapeti agiye atandukanye menshi' bigaragara ku mwambaro yambaye, karu ari gutanga bwirwaruhame ari kubwira abantu bari kumwumva ndetse bamukurikiye bari kubabwira ibintu byinshi byanditse ku mpapuro ari gusoma.

Imodoka ndetse n'abashinzwe umutekano bigaragara ko imodoka iri kwerekeza ku munzani kugira ngo bayipime, cyangwa barebe munsi yayo ko ibikoresho byayo byujuje ubuziranenge. Bakoresheje umunzani cyangwa igikoresha imodoka iri guhagaraho biragaragara ko arugupima imodoka, cyangwa abashinzwe umutekano bashaka kumenya ako imodoka ihagaze bari kuyikubita.

Akamashini cyangwa akadege gato ka dorone, kifashishwa mu gufata amafoto, ahantu cyangwa gutwara imiti kayijyanye ahantu, kano kariho kamera nyinshi zitandukanye, bigaragara ko ari agafu kifashishwa mu gufata amafoto y'ahantu runaka koherejwe.

Abasirikare cyangwa abandi bantu bakora mu nzego z' umutekano bari mu myitozo yabo ya gisirikare, y' abakomando bigaragara ko bambaye imyambaro yabugenewe yo gukoresha mu myitozo, hari abantu bari kwitoza ibyo bashaka kuba bakora, bakora nyuma yo gutsinda cyangwa kurangiza amahugurwa bari kwitoza ku rugamba cyangwa gukora imikino njyarugamba.

Umupolisi ndetse n'abaturage bari ahantu mu muhanda bigaragara ko bari gutanga ibisa n'amafaranga cyangwa se amakarita ku baturage. Urabona ko bishimiye kuba bari guhabwa aya amakarita. Hakaba hariho n'abanyamaku bari gufotora, bari gufata amafoto. Bigaragara ko ari igikorwa cyateguwe, kiri gukorwa n'abapolisi bari gukorera abaturage.

Abapolisi bari ku karasisi bari kwitoza imirimo, cyangwa parede, nk'uko bigaragara ko bafite ibikoresho byabo, kandi bambaye inifomu, bakaba bari gukora akarasisi, bafite n'imbunda ndetse bambaye n'inifomu n'impuzankano yabo, mu kibuga cy'imyitozo.

Ubwato bw'abapolisi bukorera mu mazi ,bigaragara ko harimo n'abapolisi bagiye hasi mu mazi, basa naho bari bagiye gutabara cyangwa ari ibikorwa by'ubutazi bari gukora, bigaragara ko ari mu mazi mo hasi ari mu kiyaga, ariko ubwato bukaba ari ubw'abapolisi, ndetse n'ababutwaye bakaba abapolisi.

Imodoka ihagaze ku munzani aho bazipimira, aho barebera uburyo zimeze, aho zikanikira kugira ngo barebe munsi yaho uko bimeze. Haba hariho abakozi baho bari kwitegereza ndetse hakaba hari n'abari mukazi bari kuzirebamo ukuntu bimeze munsi yazo cyangwa bakaba bari kuzipima ku mapine yazo.

Abapolisi cyangwa ushinzwe umutekano, bigaragara ko bafite ibikoresho bijyaniranye no kuzimya umuriro cyangwa gukora ubundi butabazi butandukanye. Nk'abafite ibisa n'ingabo byo kubakingiriza ibimeze nk'imyotsi cyangwa ibindi bintu bishobora kuba byabanduza cyangwa ibyaha byabatera ari nk'amasasu cyangwa ibindi. Uko bigaragara bari kwitoza bijyanye n'urugamba cyangwa uko bakora imirimo yabo.

Bagaragaza itsinda ry'abapolisi bari bamaze gutsinda ikizamini cyangwa bahugiye mu kazi. Abapolisi bakorera mu mazi, urabona ko bari bishimiye cyane. Hari hajemo n' abasirikare kwifatanya nabo kwishima, ndetse n'abatoza babo baturutse mu bihugu by'amahanga.

Umusirikare uri guha inama , uri kugeza amabwiriza ku baturage baje mu nama bateraniye mu kigo cy'amashuri bagiye kumva inama umusirikare ari kubagira. Umusirikari ari imbere yabo kubabwira n'abaturage benshi cyane bicaye bamuteze amatwi.

Ikigo cya porisi kigira abakora, porisi ikorera akaba n'ikigo gikora ibigendanye n'imodoka no gukanika, amamodoka n niitwajetaro ni iki ko bigaragara ku ifataba kikaboneka i huye, kuba ari imodoka ndetse n'abaporisi bakoreramo.

Ikiganiro mbwirwaruhame kirimo abayobozi bagiye batandukanye, nk'uko abayobozi bicaye imbere, bari kugeza ku baturage ibiganiro bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara ko hari abari imbere n'abayobozi bari imbere harimo abashinzwe umutekano, abapolisi ndetse n'abayobozi muri rusange, bakaba bari kugira ibyo bageza ku baturage cyangwa ku bayoborwa, bari imbere yabo.

Umuyobozi uri gutanga imbwirwaruhame ku bantu bigaragarako ari abayobozi bateranye, akaba ari gusobanura cyangwa hari icyo ari kuvugaho nko gusubiza ikibazo, cyangwa gutanga imbwirwaruhame runaka ku bantu ku itsinda ry'abantu baje kumva ikiganiro.

Umubyeyi uri kuboha ikirago akaba ari kubohesha ibyatsi byo babohamo ibirago, yicaye ku kirago arambirije ari kuboha ikindi akoresheje ubwatsi bw'ubushuka ari kuboha ikirago.

Igisabo giteritse, kiri mu nzu kiriho n'umupfundikizo wacu, ukoreshwa mu gucunda amata, kuko bagikoresha mu muco nyarwanda mu gucunda amata ndetse kuyabyazamo amavuta bamaze kuyacunda.

Abantu bagiye mu bukwe bikoreye ibisabo, ibiseke ndetse bafite n'amakaziye arimo inzoga, bigaragara ko batashye ubukwe ahantu, bakenyeye n'abapapa bambaye amakoti, ababyeyi bakaba bakenyeye imikenyero, bigaragara ko batashye ubukwe.

Umuntu uri kuboha akibo cyangwa agatebo bigaragara ko ari ahantu bakorera imirimo y'ubukorikori, ndetse imirimo igaragaza umuco nyarwanda ibyo bakoraga kera, ibikoresho bikoreshejwe by'imigano ukaba wagaragaza ko ari ibintu byakorwaga by'imigano bakoramo ibikoresho runaka.

Inzu ndangamurage cyangwa icyumba cyo mu nzu ndangamurage hagaragaramo ikirago ,hagaragaramo umuheto, harimo ndetse n'umukeka. Bigaragaza ko hari icyumba kigaragaza ibikoresho bya gakondo cyangwa ibikoresho bya kera abantu bakoreshaga mu nzu byabonekaga kera.

Umuntu uri gukora imirimo ijyanye no gushushanya kuko bigaragara ko gushushanya gukora agashushanyo k'ikintu runaka kirimo udukare twinshi akaba ari imrimo yo gushushanya cyangwa gukora utuntu two mu mitako. Arimo gushushanya ibintu bitandukanye.

Igisabo cyo gucunda nko muco nyarwanda ukuntu biba bimeze, kirimo umujishi umushu bakoresha kukijisha bari kukimanika kugira ngo kitaza kwangirika. Akaba ari igisabo bakoresha mu gucunda amata cyangwa mu gukuramo amavuta mu mata mu muco nyarwanda.

Abahinzi bari kwita ku musaruro wabo nyuma yo kuwusarura, aho barimo kugosora hifashishijejwe ibikoresho gakondo nk'intara zifashishwa mu kugosora, mu gukuramo ibisigazwa by'imyanda, byasigaye ku mashitingi, aho banika ibishimbo byabo nyuma yo kubisarura, kugira ngo bikomeze bimere neza.

Ibibindi bipfundikiye bigaragara nk'ibiririmo inzoga. Bigaragaza ko umuco nyarwanda ukuntu bengaga inzoga mu bitoki by'amasaka cyangwa mu birutoki bakengamo inzoga zo kunywa ubushera, cyangwa bakengamo urwagwa kuko bigaragara ko hari ibibindi bipfundikiye byo kwingeramo.

Ibiseke n'ibirago bigaragara ko n'ibiseke byiza cyane ndaboho cyane mu muco nyarwanda nezazaga ko ari abanyarwanda, ari bimwe mu biranga u rwanda rwo hambere, ibiseke, uduseke imitemeri zazo ko ari ibyakozwe byifashijwe amaboko, ndetse ibivugwa mukorwa mu bikoresho nyarwanda.

Abakaraza, abavuzi b' ingoma bari kuvuza ingoma, nkuko bigaragara bambaye imyenda, impuzankano y' ababyinnyi bakaba bafite ingoma imbere yabo, bigaragara ko ari itsinda ry' abakaraza rivugiriza ingoma ababyinnyi bamwo.

Inkono iteretse ku mashiga bashizemo n'inkwi. Bigaragara ko bagiye gucana kugirango ngo babashe kuba bateka. Akaba ari inkono idapfundikiye. Knkono iteka ishobora gutekwamo ibiryo bigiye bitandukanye.

Urugero rw'inzu cyangwa inzu ishushanya iri kugaragaza uburyo inzu y'ibwami yabaga imeze, isasiye neza ndetse ikoze neza iri ahantu heza, igaragaza ko ubukuntu igaragaza neza ukuntu inzu z'ubwami zimwe za kera mu gihe cyo hambere ko ari ifoto yafashwe kugira ngo igaragaze uko inzu zakera zabaga zimera.

Igikoresho cyakoreshwaga kera mu muco nyarwanda, cyangwa n'igikoresho cyakoreshwaga mu kugaburira abantu, imbehe bashobora kuba baririraho, yakoreshwaga cyane cyane mu muco nyarwanda, ubu itakiboneka henshi, igikoresho k'ikinyarwanda cyangwa kibajijwe mu biti cyangwa kikaba ari icumu.

Umuntu uri kuvuga inka, bigaragara ko ari inyambo zajyanwe mu bukwe cyangwa mu birori runaka, kuko ubona ko zarimbishijwe, zambitswe ibintu mu ijosi. Zikaba ari inka zigaragara neza, akaba ari abashumba bazifite bari kuzivugira. Bikaba ari ibintu bisa neza cyane byakorwaga mu muco nyarwanda, ukavugira inka, cyane cyane inyambo, mu birori runaka.

Umuntu uri kwinjira mu bikingi by'amarembo mu rugo rukoresheje imigano. Bigaragara ko ari urugo rugari cyane, urugo rudapfa kuboneka muri ki gihe ari urwo gihe cya kera. Bigaragara ko ari nk'ibwami cyangwa ahandi hantu mu rugo garagaza umuco nyarwanda, aho bazitizaga, bakoraga imbaruriro ndetse n'urugo rw'ibyatsi bakoresheje imigano bagashyiramo n'imbariro.

Abakobwa bagaragaza umuco nyarwanda bambaye nk'intore, bambaye imyenda ya kera impuyu cyangwa agahu bitwikiriye, bigaragara ko bari gucunda amata bafite ibikoresho byo kubuganizamo amata, nk'igisabo igicuma gikoreshwa mu kuyacunda, kugira ngo abe yavamo amavuta.

Inka za kera zizwi kw'izina ry'inyambo nk'uko bigaragara akaba ari inka zidakunze kuboneka cyane zikunze kuboneka cyane mu Mutara. Akaba ari inka zigaragaza ibiberanye n'umuco gakondo umuco nyarwanda zikaba zifite amahembe maremare.

Ababyinnyi cyangwa itorero, bigaragara ko bari kubyina, mu bukwe cyangwa mu bindi birori bitandukanye. Kuko bigaragara ko ahantu bari hatatse cyane, hasa neza cyane. Bigaragara ko ari umuntu wakoresheje ubukwe cyangwa ari ibirori runaka. Bazanyemo itorero ry'ababyinnyi bari kubyina n'imbyino nyarwanda cyangwa imbyino gakondo.

Ababyinnyi cyangwa intore ziri kubyina, bigaragara ko Ari abantutu bari kubyina bafite ibikoresho by'ababyinnyi, bambaye imisatsi ababyinnyi, baba bafite ingabo, bafite namacumu bambaye impuzangano, ubona ko bambaye ibisa, bakaba babaririzwa mu itorero ry'ababyinnyi.

Ameza abaho ibiryo by'ubutangamo imyumbati n'ibihaza bigaragara ko umuntu agiye kurya, ico akunze ari n'umutsima n'ubugari bigaragara ko ari ahantu buri yiteguye kurya, agafata ari ubashebyaho abagabo babizengurutse bigaragara ko ari mu bukwe bagiye kwiyakira, bageze mu mwanya wo kurya kuba baba bazanye ibyo kurya n'amasahani yo gukoresha.

Abagenzi cyangwa abakobwa bikoreye ibibindi, bigaragaza mu muco nyarwanda ko abakobwa bajyaga kuvoma bajyanye ibibindi, nk'uko bigaragara ko bikoreye ibibindi bari kumanuka ku gasozi karekare cyane, aho bagiye gushaka amazi cyangwa, bagiye ahandi hantu mu bigendanye n'umuco.

Igikoresho nyarwanda ki isekuro cyakoreshyaga mu gusekura isombe mu gutunganya isombe, iruhande rwaho hari umusekuzo cyangwa umuhini wifashishwa mu guhonda cyangwa se gusekura isomo ndetse n'ibindi bintu biribwa bimanje bya sekurwa, ariko bikaba ibyinshi bizwi nk'isombe, tungurusumu ndetse n'ibindi bisekurwa kugira ngo bibone kuba byaribwa.

Gutwara umugeni mu ngobyi, bahekaho mu mugongo, ku muco nyarwanda ,nkuko aribo bantu bajyanye inzoga baherekeje umugeni bamushyiriye umugabo we, kuko byakorwaga mu muco nyarwanda mu gihe cya kera.

Intore ziri kubyina zambaye ibikoresho by'ababyinnyi, mu itorero bigaragara ko ari ahantu hari ubukwe, batumiye itsinda ry'intore zo kubabyinira mu bukwe, bambaye imyambaro igaragaza y'ubutore aho bafite ingabo amacumu, bambaye n'imyenda y'intore igaragara ko ari intore zabigize umwuga.

Abanyeshuri bagaragara nkahori abakaraza bari kuvuza ingoma, bakabagiye kuvuza ingoma ku muhanda, ahantu habaye ibirori murwego rwo kwishima, cyangwa se kwishimira umunsi mukuru wabaye, kori wari kuvuza ingoma ariho abana bari kubyina imbere, kubera ko hri abantu bari kubyina imbere yabo bakaba bashinzwe kuvuza ingoma.

Ikibumbano cyangwa igishushanyo cy'umukobwa, ufite akabindi ku rutugu, bigaragara ko asa n'uvuye kuvoma, umuco cyangwa umuco nyarwanda bigaragaza ko wakobwa wajyaga kuvoma, akaba ari ikibumbano cy'ibishushanyo, cyangwa kibigaragaza cyerekana amateka y'ibyakera.

Umumama w'intore uri guhamiriza, wishimye cyane, wambaye ibikoresho bya gitore, ufite n'ingabo ndetse n'icumu, bigaragara ko ari mu itorero rimwe n'umugabo, ndetse n'abandi bari mu itorero ry'ababyinnyi.

Abantu bajyanye umugeni ku mugongo, akaba ari umuntu bajyanye kubera ko bafite n'inzoga bigaragaza ko ari ahantu bashyingiye, byerekana umuco nyarwanda ukuntu bajyanaga umugeni mu ngobyi bamutwaye ku rutugu bakajyana n'inzoga, kuko biri mu muco gakondo w'u Rwanda.

Site iriho ahantu hubatse igishusho cy'umuntu ufite umuheto witeguye kurasa, hababumbwe igishushanyo cyiwe kigaragaza ko ari ikintu cyo kwibukira ahantu, arikwibutsa cyangwa aba ari guhiga inyamaswa zo mu ishyamba, nyuma hakaba hariho ibirimo y'ibitokiciroba kikomoka.

Umugabo wagiye gusaba umuhango wo gusaba umugeni afite abasore bamuherekeye bamugaragiye bigaragara harimo abasore bamuherekeje bambaye imyenda (imyambaro gakondo) bafite n'inkoni za kinyarwanda bambaye neza n'amashati ndetse banakenyeye imikenyerobiagaragaza ko byambarwa mu gihe cyo gusaba umugeni.

Umuntu uri gucuranga umuduri, akaba yegereye n'abantu benshi bari kumva ibyo ari gucuranga, umuntu uri mu isoko ari gucuranga, gucurangira abantu akoresheje igikoresho cy'umuziki cy'umuduri.

Intore zaraye inkera mu gitaramo, bigaragara ko bari kubyina, ariko akaba ari nijoro cyane. Hariho abakaraza bari kubyina bafite ingabo, bakoze igitaramo cya nijoro. cyo kubyina.

Inka z'inyambo, inka zagaragazaga umuco, zikerekana ko, zikaba zigaragara mu Rwanda cyane, akaba inka z'inyarwanda, nk'uko bigaragara bakaba barazijyanaga, barazivugiraga mu bukwe kugira ngo bagaragaze umuco nyarwanda w'ubworozi.

Abakaraza bari kuvuza ingoma . Abantu bavuza ingoma bigaragarako ari ifoto y'umuco nyarwanda bereka abantu ukuntu bavuzaga ingoma nkabarwanda bahambere, kuko muco wawe arimo kubara ndetse no kuvuza ingoma ibikoresho bi utanga ababyinnyi babyinisha ba hifashijwe imirisho ndetse n'indi

Abantu bagiye mu bukwe ba kenyeye bari kumwe n'intore, bafite ibiseke n'ibindi bashyiriye umugeni, ndetse uri kubona bishimye cyane, bagiye mu bukwe bwa bwa kinyarwanda bajyanye n' imyaka.

Umusaza ufite inanga yitwa umuduri, nkuko bigaragara ko akaba ari umucuranzi wubahiriza umuco cyangwa uburyo bacuranga, kera abanyarwanda bifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye byo gucuranga byakorwaga mu bikoresho gakondo, cyangwa ibikoresho bya kinyarwanda.

Abakaraza bagaragara ko ari abavuzi b'ingoma babigize umwuga, bafite itorero ryo kubyiniramo n'aho bari gukorera ahantu habugenewe, hagaragaza umuco nyarwanda ndetse n'imirimo yo kubyina, bigaragaza umuco nyarwanda cyangwa ibyo Abanyarwanda bakoraga hambere, mu matorero yabo yo kubyina.

Inzu ndangamurage nkuko bigaragara ni inzu y'ubwami, ifite nyine ibikoresho ya kera ya kinyarwanda igaragaza ko ari inzu z'abagaho kera, kuko tubona ko ari ubwami mu muco nyarwanda ntabwo ari inzu zubatswe buno, ntabwo zigaragara gutya, ahubwo ni inzu, ni iy'ibwami.

Iibikoresho by'amashanyarazi bikoreshwa mu amashanyarazi bigaragaramo insinga. Insinga zitwara imashanyarazi mu gukora ibintu bitandukanye harimo sikoci cyangwa kore ikoreshwa mu gufatanya insinga bigaragara ko ari ibikoresho bishobora kuba bicometse byo gukoreshwa mu mashanyarazi.

Agakoresho gakoreshwa mu gucaangiga amamashini ndetse n'amatelefoni. Kifashishwa mu gucomeka ibintu byinshi kuri purize, imwe izwi ku izina rya meritipurize kakaba gakoreshwa mu gucaangiga amatelefone, imashini ndetse n'ibindi bikore byinshi bikoreshwa ...

Igikoresho cyogucomekaho imigozi myinshi cyitwa miritipurize , cyo gucumekaho harenze hamwe gucomeka harenze arenze hamwe, cyo gucangiga wacaginze ibintu byinshi wabicagingiye icya rimwe kizwi ku izina rya miritipurize.

Agakoresho k'amashanyarazi gakoreshwa mu buryo bwo gutwara umuriro, gashobora kuba kabika umuriro kugira ngo baze kuwukoresha igihe gitandukanye cyangwa bongere gucomekaho terefone cyangwa ibindi bikoresho kugira ngo bashyiremo umuriro, kazwi ku izina rya adabuta.

Ikigo kinini cyane bigaragara ko ari ikigo gikora ari inzu nini ikora ibintu byo kwigisha. Bigaragara ko wagira ngo ni ishuri ariko nanone akaba ari ahantu hanini bigaragara ko gikorerwa ari ikigo gikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, nkuko bigaragara ko hashobora kuba ari ahigishirizwa ibintu runaka ari ikigo cy'ishyirahamwe runaka cyangwa ikigo runaka gikorera.

Kiriziya ari ahantu ho gusengera, abakatoriki basengera kuko hari ikimenyetso ishusho ya Bikira Mariya nk'ikimenyetso cyogusenga kw'abagaturika. Aho basengera biagaragara ko ari ishusho ya Bikira Mariya ko ari urusengero rwiza cyane rwa kiriziya.

urusengero rw' Adeperi ruri i Rubavu, rugaragara ko abantu basengera ari ku rusengero, aho abantu bashobora ko bajya gusenga. Basengera muri Adeperi ku rusengero ko basengera mu itorero rya Adeperi paruwasi ku bigaragara ko ari muri paruwasi ya Ruhengeri.

Ikiraro cyo mu kirere gikoreshejwe imigozi. Gifashwe n'imigozi, kiri kunyurwaho n'abantu benshi. Bigaragara ko hari umuyobozi wari wagisuye mu bukerarugendo, ari kunyura ku kiraro cy'imigozi cyo hejuru mu kirere.

Inyubako y'urusengero, bigaragara ko itari yuzura neza, bigaragara ko hakiriho ko bitari byakorwa nko gutera amarangi, ndetse no gukotera amasima ku rusengero, hakaba urusengero runini ahantu ho gusengera, rukaba ruri mu isambu y'imyumbati, bigaragara ko imbere yaho hateye imyumbati.

Abubatsi bari ku cyubakwa ,bigaragara ko bari kubaka ikigo cy' amashuri, nk'ahantu hari imiryango myinshi ,cyangwa bazamuye umurongo muremure uriho imiryango myinshi, cyangwa akaba ari amazu y'ubucuruzi, ariko bigaragara ko ari ahantu h'ubwubatsi , hariho abayede cyangwa bari gukora imirimo yo guhereza, hari n'abafundi bari kubaka.

Ingoro cyangwa se sare yakira ibirori iboneka ku muhanda ugaragara ko ariho abanyonzi bategerereza, bategereje abagenzi. Akaba ari ahantu abavuye mu isoko bategera amagare babona ko nabo abanyonzi bategereje abagenzi imbere y'ingoro iri ku muhanda bacaho.

Ifoto y'umujyi munini cyane, igaragazwa n'imihanda igiye itandukanye myinshi muri iri hejuru indi iri hasi kuko bavuga ko ari kigali, ifite amatara ku muhanda imodoka abantu bari kugenda, urujya n'uruza, harimo n'ibiti bye bitangaga ko harimo umwuka mwiza ukora umujyi usa neza cyane.

Inzu cyangwa ingungu cyangwa ahantu bo bajya gusengera, kuko bigaragara ko hariho isengesho rya yesu, ahantu aho bajya gusengera abubaha Imana cyangwa se abakirisitu bagasengera Imana.

Haragaragara ikigo cy'amashuri kizitiye, kizitije amabuye. Bigaragara ko ari amashuri ashaje amaze igihe yubatswe, akaba ari ahantu hajya kuba mu cyaro, hatari umujyi mwiza. Inyuma yaho hariho ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hariho amazu atari aya kijyambere, amwe agifite amategura ayasakaye.

Urusengero rw'Abagaturika cyangwa Kiliziya, igaragazwa n'uko imbere y'aho hari ikimenyetso cyangwa ishusho ya Bikiramariya ,uko bigaragarako akaba ari ishusho rya Bikiramariya riri imbere y'urusengero cyangwa ya Kiliziya. Ikaba ari Kiliziya nini cyane.

Ku muhanda wa kijyambere aho bavuga ko ari ahantu hateye imbere nko mu mugi, nko mu mugi kuko bigaragara ko ari ahantu hari amatara, hari amashanyarazi, ibikorwa remezo bihari ni umuhanda mwiza, akaba ari ahantu heza cyane bigaragara ko hashobora kuba ari mu mugi, mu mugi.

Umuntu uri muri sare imbere urigutanga imbwirwaruhame ku bantu bari muri sare kubera ko yitegeye abantu afite na mikoro ari kuvuga abagezaho ikiganiro gitandukanye ku bintu runaka ari kubabwira ibyo ari kubigishaho.

Inzu nini cyane, iriho amarangi meza, imbere hakaba hariho indabo, ndetse n'amapave bari gukora ahantu heza cyane, mbega ari nko kwa muganga, hariho ikintu cyo gutamo imyanda, bigaragara ko ari inzu nini imeze neza kandi isa neza, iri ahantu heza.

Ikigo cy'amashuri, cy'amashuri meza agezweho yubatse neza ari mu buryo bwiza, bigaragara ko ari amashuri meza agezweho cyane, nkuko bigaragara ku ifoto hariho n'imikindo ndetse n'ibindi biti byo gutuma hasa neza, ariko kikaba ari ikigo gishyashya batari bigiramo, ari Kandi ko nubwo baba bigiyemo ariko kikaba ari ikigo gishyashya.

Icyumba cyo kwigishirizamo abana ku shusho by'abana n'abana, harimo n'ibikoresho byo kwigisha abana kubera ko harimo amabara ndetse n'ibindi bintu abana bakoresha bari kwigama, n'ibyo kurya kandi imineke n'ibindi.

Abana batoya, bigaragara ko bicaye ku murongo ku ntebe buri wese iyi ye, bigaragara ko ari ku bigo bitandukanye, bakaba bari gukora ikizamini cya leta, nkuko bigaragara ko buri wese, ari gukora ikizamini cye kandi akaba yambaye n'inifomu, zigiye zitandukanye n'abanyeshuri.

Icyapa kigaragaza ikigo cya kaminuza cya IPRC Ngoma, hagaragaraho abayobozi bacyo bahagaze ku biro, imbere bakaba bari bambaye udupfukamunwa bari kwifotoresha, ishobora kuba yarafashwe mu gihe cy'icyorezo cyangwa mu gihe ibintu bitari bimeze neza bya kovide ,kuko bigaragara ko bambaye udupfuka munwa bose bahishe.

Inzu igaragara ifite ikigega bigaragara ko ari ahantu hakorerwa imirimo itandukanye . Ikaba iri muri uyu munsi cyane ubwakora akora ahantu hiherereye hashobora kuba hakorera inzego z'umutekano shakaho ibindi biro runaka. Akaba ari inzu iri mu mashamba hagati mu biti bya runusi. Bigaragara ko ari ahantu hari na kandagira ukarabe ,hari ibikorwa remezo nk'ahantu hakorera serivisi.

Igikoni kimeze neza, kigaragazwa n'amashyiga ya gaze ndetse na gaze iteretse munsi yaho, bigaragara ko hari aho bacanira, aho batekera, igikoni kigezweho bacana bakoresheje mu mbaraga z'ingufu zituruka kuri gaze.

Santere y'ubucuruzi igaragara ko hariho inzu ikorerwamo na koperative ya sako, aho ibika amafaranga, ikaba ikorera mu isantire y'ubucuruzi ya Byangabo harimo ubucuruzi ndetse na agenti n'abagenzi, urujya n'uruza mu isoko.

Ikigo cy'amashuri，aho abantu bigira， abanyeshuri bakaba bahafatira amasomo， uko bigaragara akaba ari ahantu abanyeshuri bigira amasomo rusange，akaba ari ikigo cya segondere， nk'uko bigaragara ko ari amashuri ya Leta， yubatswe akaba ari ayo abanyeshuri bigiramo.

Agasoko k'agasantere gaciriritse gato cyane bigaragara ko harimo abantu bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, ariko abantu bakaba atari benshi ndetse n'abucuruzi akaba atari benshi, aho babona udukoresho tw'ibanze, tw'ingenzi umuntu abasha gukenera, harimo umuntu wo gucuruza ibyo kujya mu ndobo harimo abantu bari gucuruza imyenda hasi, ndetse harimo n'abantu bavuye mu kazi bari kugenda ariko bigaragara ko atari mu isoko rizima ahubwo ari akantu ko muhanda.

Abaturage baba mama b'ababyeyi basa nkaho bari mu nama, y'umugoroba w'abababyeyi, aho bigaragara ko baje ari benshi kumva icyo umuyobozi ariwe wagezeho mu nama y'abaturage mu gace kabo, bakaba bahuriye hamwe ku mucaca bakicara bagamije kureba ibyabateza imbere, bakomeza kumva icyo umuyobozi ari kubababwira, cyangwa se ashaka kubagezaho.

Abanyeshuri bari kumva imbwirwaruhame, aho umuyobozi wabo abari imbere ari kubaha amatangazo cyangwa amabwiriza y'uko bagomba kwiga, bigaragara ko ari itangazo ari kubaha. Bateraniye hamwe kugira ngo bumve icyo umuyobozi ashaka kubabwira, n'icyo ari kubahuguraho.

Umudamu w,umubyeyi w,umumama uri kuvuga asa nk'aho ari gutanga ikibazo mu nama . Kubera ko hariho abandi bantu bari kumureba, biragaragara ko atari we uyoboye ikiganiro ,kubera ko yicaye mu baturage imbere basa n'aho bari mu nama.

Ikiganiro cyangwa inama bigaragaza ko hari ahantu ho guci imanza cyangwa kurenganura umuntu warenganye, kuko hari abayobozi bagiye batandukanye bari kuvuga ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu cyangwa ku bigedanye no gukiza imanza z'abaturage, nk'uko abayobozi bicaye imbere bari kuganiriza, abaturage akaba aribyo bari kubagezaho.

Abaturage bahuriye hamwe, uko bigaragara bakaba bari kuganira ku bibazo rusange bibugarije, bakaba bari kumwe n'abayobozi babo, barimo n'abantu bari kubona umwanya wo gutanga ibitekerezo ku bibazo bafite, kugira ngo bibashe gukemurwa abayobozi babashe kubiganiraho barebere igisubizo, nk'uko bigaragara ko ari inama y'abayobozi ndetse n'abaturage.

Abaturage bari mu mugoroba w'ababyeyi cyangwa mu kiganiro cy'inama nk'uko ari mu cyaro bakaba bahuye bagaterana, kugira ngo baganire ku bibazo bitandukanye baba bafite, cyangwa ibyo bashaka kwibazaho ntibitandukanye biri muri bo, bakaba baha umwanya umuntu akavuga ndetse gukemura ibibazo, hariho umuyobozi bwacu nk'umukuru w'umudugudu wawuteranije.

Abaturage bagiye mu gikorwa cy'inama, bikaba bigaragara ko bashobora kuba bageze mu gihe cyo kubaza ibibazo, nk'uko batonze umurongo bakurikiye umuntu ufite mikoro, biteguye kuba babaza ibibazo runaka bashobora kuba bafite, bigaragara ko batonze umurongo ngo babe babaza umuyobozi, cyangwa babaze abaturage muri rusange.

Imoto y'amapine atatu yifashishwa mu gutwara imizigo kazwi ku izina ry'agaherigisi. Gatwara imizigo kagatwara imyaka kayijyana ku isoko cyangwa gakora imirimo yo gutunda ibicuruzwa.

Gare umuryango wa gare wa ko ari ahantu, imodoka zisohokera zivuye muri gare ya musanze, nkuko bigaragara ahantu ahantu hari ahantu hari umuryango, ahantu, imodoka, abanyonzi ndetse n'abandi ka ahantu imodoka zishobora gusohokera zivuye muri gare zigiye mu muhanda gutwara.

Abantu harimo n'urubyiruko n'abakorerabushake, bigaragara ko ari ahantu hari koperative ikora ibintu bijyaniranye no gucuruza, uko bigaragara akaba ari abantu bari kuhakora sitaje cyangwa baje kuhasura, bakaba bagaragazwa n'akamodoka kanditseho koperative y'abahinzi, bigaragara ko ari icyapa kijyaniranye n'ubuhinzi, cyanditseho ikirango cya rabu.

Ahantu imodoka zihagarara, akaba ari muri gare, kuko nko muri gare harimo abantu benshi, ndetse n’imodoka nyinshi z’ubwoko bugiye butandukanye: amatagisi, ama kwasiteri, ndetse n’abantu benshi cyane. Bigaragara ko ari ahantu ho mu mujyi, hari imodoka nyinshi, nyinshi cyane ziparitse, ziri gushaka abagenzi, zigiye kugenda mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Imodoka nyinshi zitwaye ibintu zisa n'izihetse ibintu, zitwikije amashitingi bigaragara ko zuzuye ibicuruzwa cyangwa zuzuye ibikoresho bigiye bitandukanye biri ahantu imbere y'abantu bapakirira. Bigaragara ko ari imodoka zitwaye ibintu byinshi kandi zikaba ari nyinshi z'ubwoko bumwe.

Imodoka itwara abagenzi, ikaba ari imodoka ikora muburyo bwo gutwara abagenzi ibavana ibajana ahandi, ikaba ari imodoka ikorera mu mujyi bigaragara, kubera imodoka yo gutwara abantu ndetse ikabatwara ikaba yatwara umubare mwinshi w'abagenzi.

Umuntu ufite igare ririho ibitebo, usa n'uwari wajyanye ibintu ku isoko akaba agarutse, avuyeyo amaze kubipakurura akaba afite igare ryo kubitwaraho, aba yashyizeho ibitebo abizirikiraho, bigaragara ko ari ahantu h'isantere yo mu bucuruzi, aho imbere yaho hariho akabari ndetse n'ibindi bikorwa bihakorerwa aho akorera.

Umushoferi utwaye moto utwaye n'umugenzi biragaragara ko akora umurimo wo gutwara abagenzi kuri moto aho yambaye ijire ryabugenewe cyangwa ijire rimuranga ko atwaye umugenzi amujyana aho agiye kuri moto.

Umugenzi ufite ikarita uri mu modoka izwi ku zo rya shirumuteto, ikorera mu mujyi wa kigali akaba ari imbere cyangwa nkaho umushoferi yicara mu modoka, bigaragaza ko nawe yicaye aho ngaho afite cyangwa afashe no kurivura cyangwa kuri nderegisiyo buhoro n'umugenzi uri kwinjira mu modoka.

Bisi ziparitse ahabugenewe, zo muri gare cyangwa aho bazicuruza kubera ko ari nyinshi, z'ubwoko bumwe cyangwa ari kapani imwe itwara abagenzi, mu modoka ikoresheje amabisi ya bugenewe.

Imodoka ya kwasiteri, itwara abagenzi, ishobora gukorera mu ntara, ndetse no mu mugi, ikaba ari imodoka itwara abagenzi, ijyamo abantu benshi bagera kuri mirongo itatu na babiri, ikaba ari imodoka itwara abagenzi iri mu muhanda, yanditseho seregitedi, cyangwa ikaba ishobora kuba nka kampani ikora.

Gare cyangwa aho imodoka zihagarara ubwo bigaragara ko ari muri Nyabugugo ahantu imodoka zihagarara ari menshi, akaba ari ahantu hakorerwa umurimo wo gutwara abagenzi mu modoka hifashishijwe bisi zabugene aho ngaho bigaragara ko muri gare cyangwa imodoka zihagarara bisi nyinshi cyane zitwara abagenzi.

Moto y'amapine atatu moto, ikoreshwa mu gutwara ibintu igaragaza ko ariyo'uruganda, ukora ibintu bya darayingi ndetse no kumisha ukaba arito ifite akantu gasa ka umuntu uyitwara wo hejuru ugaragara ko igikoresho moto cyo gutwara imizigo.

Imodoka iri kugenda harimo umuntu utwaye imodoka ,kubera ko ari imodoka ya kampani yego ka bisi, ukaba wayihamagara ukoresheje ,igaragaza umurongo wahamagara ,aho mu gihe waba ugize ikibazo mu byo bakoramo, ukaba wahamagara kuri iriya nomero mirongo icyenda na rimwe, mirongo icyenda na rimwe.

Imodoka ziri mu mujyi bigaragara ko ari urujya n'uruza. Ahantu hateye imbere hari imodoka nyinshi cyane zitwara abagenzi, habaye imikino itera ambutiyaje, cyangwa imodoka zabaye nyinshi mu muhanda, kuko imodoka zitari gushobora kugenda neza kubera ko ari nyinshi, ndetse n'abaturage ari benshi, ahantu hateye imbere cyane bagaragara nko mu mujyi.

Umunyonzi cyangwa umutwazi w'igare utwaye amashu ayajyanye ku isoko, bigaragarako ari umumama utwaye igare uri gukora umurimo wo kujyana umusaruro we ku isoko w'amashu, akaba ayajyanye ku igare.

Ikibuga c'yumukino umukino wa vore, aho bakinira umukino wa vore, nkuko bigaragara harimo imirongo icoye igaragaza neza ikibuga naho kigarukiye, hariho imodoka kuruhande ishobora kuba ari imodoka y'abakinnyi, igaragaza neza ko ari ikibuga cyiza kigezweho cy'umukino wa vore.

Abana bari gukina umupira, bigaragara ko ari abana bari gukinira reyosiporo kuko bambaye impuzankano y'abakinnyi ba reyosiporo, bigaragara ko ari ikipe nto ya reyo, ari abakinnyi bayikiniramo batoya.

Ikipe y'abakinnyi irimo abakinnyi bose ndetse n'umutoza wabo, bakaba bahagaze bari kwifotoza kugira ngo umukino ube wabasha gutangira, bakaba ari abakinnyi benshi batandukanye cyane, bakina umukino wa basikete cyangwa umukino w'umupira w'amaguru, bakina umukino w'umupira w'amaguru, akaba ari abakinnyi bari hamwe bari kwifotoza.

Umunyonzi cyangwa umuhuntu uri utwara igare mu marushanwa, uko bigaragara akaba ari umuntu usa nk'uri imbere y'abandi, cyangwa akaba yasigaye inyuma, bikaba biri kugaragara ko ari gutwara igare mu marushanwa, hakaba hariho abantu benshi baje kureba.

Abakinnyi bari gukina umupira w'intoki wa handiborlo bigaragara ko hari abakinnyi bari gukinira mu kigo cyangwa mu kigo abana bari gukinira, bari gukinira imikino y'amaboko kuko amakipe abiri ahanganye hakabaho n'umusifuzi wokukwereka ko hari ikose rishobora kuba ryakozwe mu kibuga nkuko yazamuye ikiganza.

Abana bamaze gukina umukino wa tenisi, kwishimira ko bamaze gukina bafite ibikoresho bya tenisi, bakaba bari no mu kibuga cya tenisi no mu kibugaho imikino ibiga by'imikino ina kibigiye bitandukanye, uko bigaragara bamaze gukina barishimye bahanyi ibiganza imikono kugira ngo bishimire ko bari gukina bahuje bagakina uyu mukino.

Abakobwa bari kunyonga amagare, bigaragara ko bisa nkaho bari mu ubukerarugendo, bari kunyonga amagare bageze hagati mu ishyamba bameze nk'abakerarugendo bari muri siporo, uko bigaragara ko bambaye bikoresho cyangwa ingofero z'abanyonzi b'amagare kuko bahagaze mu ishyamb bigaragara ko nari kwifutoza cyangwabari gukora ibindi.

Inshundura zikoreshwa mu gukina umukino wa voreboro aho bigaragara ko ari igitandukanya ibibuga bibiri by'amakipe akina umukino vore, aho ikipe imwe iba iri ku ruhande rumwe indi ku rundi ruhande bigatandukanywa n'izi nshundura.

Abakinnyi bari gukina umukino wa basikete. Bigaragara ko bahanganye, ari abantu benshi baje kuwureba umukino. Bicaye, bari kwitegereza ibyo amakipe ari gukina. Ari gukina, bigaragara ko ari abakobwa bari mu kibuga bari gukina. Ari abana bari mu kibuga bari gukina. Hakaba hariho, abafana baje kubafana.

Abafana baje kureba umupira w'amaguru, akaba ari abantu bagiye batandukanye benshi cyane, bigaragara ko bishimye bafite amabendera cyangwa bambaye imyenda y'amakipe yaho, baje gufana bakaba bari mu kibuga ari benshi cyane, hakaba harimo abishimye...

Abanyeshuri bari gukina imikino wa hediboru cyangwa umukino wogukinisha intoki, bavuga ko mu kigo cy'amashuri aho hari abanyeshuri bari gukina, hari n'abandi bari kubareba bambaye iniforome bari hafi yabo, kubera ko bari mu kigo cy'amashuri' imbere ari umukinoi ukinirwa mu kigo, hari abanyeshuri bari gukina bari kwidagadura.

Bigaragara ko ari abana bari muri siporo, aho bigaragara ko benshi bambaye imyenda ya siporo. Bakaba bari mu muhanda bari gukora siporo. Hakaba harimo abayobozi n'abategetsi bagiye batandukanye kuba bakoze siporo. Aha ni ku munsi wa siporo cyangwa ahantu habugenewe ho gukorera siporo.

Abakinnyi b'umupira bagaragara nk'aho ari ikipe bahanganye ari Rayon na APRa kuko bigaragara mu myambaro bambaye hariho abafana benshi cyane mu kibuga bicaye hakaba huzuye abafana benshi bagaragara ko ari mu Rwanda kuko hariho ikirango cya VISIT Rwanda cyangwa isura y'u Rwanda.

Abakinnyi bakina umukino wa vore, wo gukinisha intoki nk'uko bigaragara, bakaba bari mu kibuga, ari amakipe abiri ahanganye, bari gukina ikipe yambaye umweru, undi yambaye umutuku, ukaba uri kubona ko bose bagize umuhati bahanganye, bashaka gutsindana, umwe ku ruhande rwe, n'undi ku ruhande rwe, bakaba bari muri sitade, aho imikino y'amaboko.

Abakinnyi bakina umukino w'intoki wa basiketi, nk'uko bigaragara ko ari abakobwa bari gukina umukino wa basiketi ni amakipe abiri ahanganye, akaba arimo ikipe isa n'aho yambaye imyenda y'u Rwanda, n'indi b'abazungu baba bari gukina umukino wa baskeba.

Umukinnyi ugaragara ko ari umukinnyi wahawe igikombe, akaba yatsinze irushanwa rizwi rya tour du Rwanda, kuko yahawe igikombe cy' umukinnyi w' umwaka cyangwa umukinnyi utsinze iri rushanwa, akaba yambaye iniforume yanditseho tembera u Rwanda akaba ahagarikiwe cyangwa ashigikiwe n' ashinzwe siporo ku mpande.

Umukinnyi ukina umukino, ukina tenisi, akaba ari kudunda agapira mu kibuga cyiza cyabugenewe w'umunyamahanga utari umunyarwanda. Ahantu heza hamwe n'imyenda yabugenewe ubona ko ari ahantu hateye imbere cyane ko hari ibikoresho byiza n'ikibuga kimeze neza cyogukiniraho uyu mukino.

Ikibuga cyo bakiniraho umukino wa hendibolo, aho bakina umupira bawujugunya mu ntoki, akaba ari aho bayikinira bakemeza mu mazamu, cyangwa aho batsindanira bari gukina uwo mukino mu kibuga cyiza, cyiza cyane .

Umukobwa, bariya bakora mu kibuga kirimo siporo runaka. Akaba ahagazemo. Hakaba harimo abandi bantu bamuzengurutse. Ariko ku ruhande ukora kubkibuga gikinirwamo imikino y'intoki. Nk'uko bigaragara ko ari umukinnyi, akaba ari umuntu ukora siporo cyane.

Abakinnyi ba gorufe bakina umukino wo gutera agapira witwa gorufe, bishimye cyane nk'abatsinze umukino, bigaragazwa no guhoberana, ndetse no kumwenyura bigaragara mu maso yabo.

Abakinnyi bakina umukino wa sitingi voreboro, ni umukino w'abafite ubumuga bigaragara ko ari abantu batandukanye mu buryo bubiri harimo amakipe abiri ahanganye ari gukina vore, hakaba hariho n'abantu bari kubareba bicaye ku ruhande.

Ahantu hakeye cyane, hari pisine yo kogeramo, ndetse hakaba hari naho kunywera Ku ruhande rwaho, n'ahantu hafite ibikorwa by'ubucuruzi bigiye bitandukanye, aho abantu bajya, bajya kuhasohokera, bakaba bamenya koga kuri hoteli nziza cyane, igaragara nk’aho ikeye kandi isa neza.

Abakinnyi bari gukina umupira bigaragara ko bamwe bambaye iniforume yanditseho u Rwanda, bigaragara ko ari abanyarwanda bari gukina n'iyindi kipe, akaba ari mu kibuga hagati y'ikipe imwe yambaye icyatsi, n'abambaye umuhondo n'amakabutura y'ubururu, bigaragara ko amakipe abiri ahanganye ari muri sitade bari gukina umupira.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ariko mu butayu. Hakaba hari ivumbi ryinshi , umucucu mwinshi cyane ugaragara ko ari kugenda ahantu hatari umuhanda mwiza ahubwo ari mu butayu cyangwa umuhanda w'igitaka wo gutanga umucucu mwinshi cyane.

Umwana utsinze irushanwar y'amagare bigaragara ko arenze umurongo aho yari gutsindira akaba yahageze afite ibyishimo byinshi kuko atsinze amarushanwa y'amagare mu byo gutwara amagare akaba yasize abandi nkuko bigaragara arishimye.

Ishusho y'ikibuga kinini cyane kigaragaza aho abafana bicara detse garagaza ndetse n'amatara, bari mu kibuga agaragaza abantu bicara, kikagaragaza hakurya y'aho hantu abantu batuye, bako ari ahantu hari mu mujyi ariko hatari umujyi munini cyane ugaragaza ko nyumaho hariho amashamba akaba ari ikibuga bwkinamo umupira w'amaguru.

Umupira wo bakoresha mu gukina vore, umukino wo gutera agapira mu ntoki, umwe mu mikino iboneka cyane mu Rwanda, abantu bashobora kuba bakina, hakabaho umwihariko umukino wa vore bakoreshamo uyu mupira.

Ikibuga kinini cyane ni kibuga kiri mu mujyi kigaragara ni ikibuga giherutse kubakwa mu rwanda, cyitwa sitade amahoro bigaragara ko ari rinini cyane iba ari sitade iboneka mu mujyi rwagati ikibuga gikomeye kinini kizamo abantu benshi cyane.

Abafana bari mu kibuga muri sitade bagiye kureba umupira, uko bigaragara ko bicaye bategereje kureba igikorwa cy'umupira kiri kuba, bakaba bicaye ahabugenewe aho barebera umupira ari benshi.

Umukino wo gutwara amagare, bigaragaza ko umuntu yatwaye igare akanatsinda uyu mukino, ukaba umukino, umukino ukaba aruwo m'u Rwanda nkuko bigaragara ko umupira yambaye wanditse visiti Rwanda, ukaba witabiriwe n'abantu benshi, kubera ko harimo n'abazungu nyuma bamukurikira, babiri abaje kureba umukino bakaba ari benshi, ku mpande nkuko bigaragara nabo bakaba bishimye.

Abakinnyi bakina umupira uko bigaragara ko amakipe abiri ahanganye ari gukina yambaye finifomu z'ikipe y'u Rwanda indi akana ari ikipe yo hanze . Uko bigaragara mu mabara y'ubururu n'umuhondo, akaba ari abakinnyi mu makipe abiri ari gukina mu kibuga bari gukinira mu kibuga bakaba bari gukina umupira w'amaguru.

Igice cyo abafana bicaramo mu kibuga, nkuko bigaragara ko ari ahantu hicara abantu bari kureba umupira, hakaba ari ahantu hicara abantu benshi baje kureba umupira w'amaguru, ushobora kuba umupira ku kibuga cyo mu Rwanda cyangwa mu kibuga mpuzamahanga, bigaragara ko ari ikibuga kinini cyane.

Umuhanda, umuhanda ugezweho kaburimbo, ugaragara ko unyuze kaburimbo ahantu kumuhanda, umuhanda heza hari amazu y'ubucuruzi ndetse hari abantu bahatuye, haramo ibikorwa remezo nk'amashanyarazi hakaba hanyuramo imodoka nyinshi zigaragara ko ari ahantu heza cyane.